Iyi shusho igaragaza abantu bari mu cyumba cy'inama bicaye hakaba arimo umugore uhetse umwana ndetse akaba arimo abagore n'abagabo akaba, ari umugabo uhagaze wambaye umupira w'umutuku usa nkaho' ariwe uyoboye inama ndetse n'icyapa kigaragaza insanganyamatsiko y'inama. Ndetse akaba ari inzugi ndetse z'ibirahuri n'amadirishya.

Iyi shusho igaragaza abantu bari mucyumba k'inama bafite mudasobwa, kandi harimo ameza ibyapa biranga insanganyamatsiko y'inama, harimo abagore n'abagabo, bafite n'impapuro ku meza.

Inzu ifite akabaraza imbere y'inzu hari ipikipiki imbere y'inzu na nonene hari igiti cy'umukindo ndetse n'ubusitani hakurya y'umuhanda hari imodokari ndetse n'izindi modokari nyinshi n'amatara yo ku mihanda.

Iyi shusho igaragaza icyapa cy'umuzenguruko w'uruziga rw'umutuku, kiburira y'uko aho hantu utagomba kurenza umuvuduko wa kirometero mirongo itandatu ku isaha.

Iyi shusho igaragaza agace karimo inzu z'imiturire harimo izigeretse, harimo izitageretse yiganjemo ibiti ndetse ikaba isa nk'iri ku musozi ariko udahanamye.